Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'umusore ubona uri guseka afite ibyishimo yambaye itaburiya y'umweru.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umutuku ndetse n'ibirahure impande zose, hirya gato hari igiti kinini cy'icyatsi gitoshye, gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki n'icyapa kinini kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'ubururu hariho ifoto y'umugore uryamye usa nkaho akiri muto yashyize akaboko ke ku mutwe.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru ufite igikapu ku bitugu bye cy'umukara, arimo araseka areba mu birahure, hanze hari indege.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi bigiye bitandukanyekanya hejuru hamanitse icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse ni ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'abantu bagera kuri batanu ubona bishimye cyane, bamwe bari gukina n'abana babo.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi ruri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hariho ikirenge cy'umuntu wakomeretse.

Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere gisize amabara y'ubururu yandikishijwemo amagambo y'umweru kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho abagabo babiri basa nk'abakuze.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi hariho ifoto y'abantu babiri bicaye mu mudoka ubona bafite ibyishimo ni umukobwa n'umuhungu.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, rwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi ubwo aribwo bwose, hariho ifoto y'umukobwa ukiri muto wambaye imyenda y'imyeru.

Uru ni urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari munini, uba urimo ibinyabiziga bitandukanye, hagati hari ikinyabiziga kinini, gitwara imizigo ndetse k'uruhande kunzira y'abanyamaguru hariho umuntu usanzwe utwaje undi imizigo akayimujyanira ahantu hatandukanye ubundi akamwishyura.

Uru ni urubuga rwa banki runaka aho ushobora kwishyura kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo utateguye.

Uru n'urugubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza kwakira amafaranga akakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura amainite, kohereza amafaranga no kuyakira mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa bake runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhsnga aho ushobora kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri akakugeraho.

Urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rugufasha kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga. Aho ushobora kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buyo bworoshye bitagusabye gukora ingendo zitateguwe kandi birizewe.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru n’urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi, ndetse n'ikoranabuhanga. Rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva ah’uri cyangwa gukora ingendo utateguye.

Iyi ni imodoka nziza isize amabara y'umukara impande zose ndetse n'amatara y'umweru ibirahure byayo birabonerana, inyuma kandi hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bane ubona bakeye cyane, bahagaze ahantu hamwe barishimye, nk'uko bigaragara bari guseka babiri muri bo bari guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo. Inyuma hari imodoka nziza cyane.

Abana ni bantu bagera kuri batatu bahagaze ahantu hamwe urabona ko bafite ibyishimo, higanjemo abagabo babiri n'umugore umwe bateruye ikintu kinini kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo.

Iyi ni imodoka nziza isize amabara y'umukara ndetse n'amatara y'umweru, ibirahure byayo birabonerana, inyuma kandi hari ubusitani bwiza, hirya hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba n'abagabo babiri bari ahantu hamwe urabona ko bafite ibyishimo bari guseka bari guhererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo hirya gato hari imodoka nziza y'umweru.

Abana ni abantu bagera kuri bane bahagaze ahantu hamwe higanjemo abagabo gusa bateruye ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo hirya gato hari imodoka nziza isize amabara y'umweru bisa nkaho igurishwa.

Aya ni amamodoka menshi ari ahantu hamwe bisa nkaho agurishwa. Yiganjemo ayo mu mabara y'umweru n'amatara y'umutuku, inzugi z'umukara. Akikijwe n'inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka moto ndetse n'amagare. Ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umugabo ubona usa nku'ukuze umurebye ku maso he arishimye cyane ateruye ikintu kimeze nk'urufunguzo kinini mu biganza bye inyuma hari imodoka nini itwara imizigo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, harimo ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibirahure bibonerana ndetse n'amatara y'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe, bose bambaye amashati y'ubururu barishimye cyane, hari ibyo bari guhererekanya kimeze n'urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka nini itwara abagenzi isize amabara y'umweru.

Iyi n'imodoka nziza isize amabara y'umukara impande zose ndetse n'amatara y'umutuku, imbere yayo hari inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije igizwe n'ibirahure byinshi.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe basa nk'abakuze, bateruye ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo, umwe muri bo afite akamverope, hirya gato hari imodoka nziza cyane ubona icyeye.

Iyi ni imodoka nziza ihagaze ahantu hamwe isize amabara y'umukara impande ndetse n'imbere, amatara n'umweru ifite ibirahure bibengerana hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hirya gato hahagaze ikinyabiziga cya moto kandi hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane mu nzu isize amabara y'icyatsi, higanjemo urubyiruko n'abagore urabona ko ari ibintu byiza bibereye ijisho bari kuganira.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga bitagusabye kuva aho uherereye cyangwa gukora ingendo utateguye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi aho ushobora kohereza kwakira amafaranga aturuka mu mahanga bitagusabye kuva aho uri, biroroshye kandi birizewe nawe wabyikorera.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa eyateri aho ushobora kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa emutiyene aho ushobora kohereza kwishyura kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobra kwishyura, kohereza, kwakira amafaramga, akakugeraho ku buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga muburyo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kohereza kwakira amafaranga ava cyangwa ajya mu mahanga, mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rushobora kohereza, kwakira amafaranga avuye mu mahanga akakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, akakugeraho bitagusabye kuva aho uri kandi bwihuse.

Uru nk'urubuga rukorera ku ikoranabuhanga, ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza ukakira amafaranga akakugeraho mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva aho uri ukora ingendo utateguye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira amafaranga akakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye gukora ingendo utateguye, birihuse kandi birizewe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye gukora ingendo utateguwe kandi byihuse.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, aturutse mu mahanga birizewe kandi birihuta.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye gukora ingendo utateguye kandi byihuse.

Uru ni urubuga rwa emutiyene rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza kwakira kwishyura amafaranga akakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva wu cyangwa gukora ingendo utateganyije.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga aturutse mu mahanga; bitagusabye kuva aho uri ndetse no gukora ingendo utateguye.

Urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa MTN, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kuri telefone yawe bitagusabye kuva aho uri.

Urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rugufasha kohereza, kwakira amafaranga aturuka mu mahanga, mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva aho uherereye kandi byihuse.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, birihuse kandi birizewe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira, kubona amafaranga aturutse mu mahanga bitagusabye kuva aho uri, mu buryo bworoshye kandi bwihuta.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza, kwakira, kuzigama amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye birizewe kandi birihuta.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kohereza kwakira kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva aho uri no gukora ingendo zitateguwe.

Aya ni amazi menshi urabona ko afite ibara ry'ubururu akikijwe n'intebe zo kwicaraho ndetse n'imitaka hirya gato hari ubusitani burimo indabo z'umutuku n'umuhondo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeje isize amabara y'ubururu, hasi gato hari ubusitani bwiza burimo indabyo zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi n'umuhondo ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, igizwe n'amabara y'umutuku impande zose ndetse n'ibirahure binini cyane by'umukara, imbere yayo hari amazi manini yo kogamo.

Aya ni amazi menshi afite amabara y'ubururu, akikijwe n'amazu maremare yo mu bwoko bwa etaje ndetse n'ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari ahongaho bose.

Aha ni ahantu heza hafite ubusitani butoshye buririmo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo iz'umutuku ndetse n'icyatsi harimo intebe n'ameza by'umukara, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi bisa nkaho ari hoteli.

Iyi ni inzu ndende kandi nini yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije inshuro zigera kuri eshanu, ikikijwe n'ibiti byiza bitanga umuyaga n'amahumbezi, iraka mu mabara agiye atandukanye.

Ubu ni ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye z'amabara menshi yaba iz'umuhondo, iz'umutuku, iz'umweru ndetse ni iz'icyatsi kibisi ubonako ari ibintu byiza cyane.

Aha ahantu hari ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo, iz'umweru ndetse n'icyatsi, hirya gato ari ibiti birebire n'amazi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije, igizwe n'ibirahure gusa, ikaba isize amabara y'umweru, ku ruhande hari ibiti byiza n'ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye nk'iz'umuhondo n'iz'icyatsi ndetse n'amazi yo kogamo.

Aha ni hantu hari ubusitani bwiza kandi butoshye bubereye ijisho ry'ubureba, higanjemo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi iz'umutuku, iz'umuhondo n'umweru byose bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu maremare agerekeranije yo mu bwoko bwa etage, asize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hejuru yayo hateye ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje, igerekeranije isize amabara y'umuhondo n'ibirahure bibonerana, hasi gato ari ibiti nabyo bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho ngaho bose.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Ahangaha turabona amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amanyamahanga, amadorari bitewe nayo ukeneye uraza ukazana amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga cyangwa ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Aba ni abagabo babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'ubururu bwijimye, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru imbere ye hateretse icupa na terefone ndetse na murandasi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru haracamo abantu ndetse n'ikinyabiziga nka moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini kandi nziza nkuko bigaragara isize amabara y'umweru, imbere hariho icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi huzuyemo intebe kandi z'umukara n'ameza meza.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije, iracyeye cyane nkuko bigaragara ikikijwe n'ibirahure impande zose, hasi gato hari ibiti nabyo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umuhondo, hahagaze ikinyabiziga k'imodoka y'umutuku, hejuru hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekenyije.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto n'amagare.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urababona ko bafite ibyishimo bari guseka bari mu nzu isize amabara y'umweru n'umutuku higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye kandi bishimye ubarebye mu maso habo higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagore, abagabo ndetse n'abana bakiri batoya, bisa nk'aho ari mu isoko bitewe n'ukuntu hagaragara.

Aba ni abantu babiri ubona bishimye cyane, hari ibyo bari guhererekanya, ni umukobwa ndetse n'umugore usa nk'ukuze, imbere ye hateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imyembe, amaronji n'amapera.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hari kunyuramo ikinyabiziga cya moto, hirya gato hari abantu bahagaze bambaye impuzankano y'umuhondo, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abagore bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, urabona ko bacyeye bisa nkaho bari kuganira bahuje urugwiro, imbere yabo hateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imineke, ibishyimbo, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi cyane bagiye batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse ibyo kurya, nk'inanasi, imineke, inyanya, imyembe, amavuka n'ibindi, bisa nk'aho ari mu isoko.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe urabona ko bishimye, bari guseka bari kuganira bafite ibyishimo ku maso habo. Higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe, imbere kandi hateretse ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'inyanya, intoryi n'ibindi bisa nk'aho bari mu isoko.

Aha ni ahantu heza cyane nk'uko bigaragarira ijisho, hari ibiribwa bigiye bitandukanye nk'ibitunguru, ibinyomoro, amatunda, inyanya ndetse n'insenda n'amashu, urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye, hari n'ibikoresho by'ubwoko bwose, abicayean ndetse n'abahagaze higanjemo abagore n'abagabo, bisa nk'aho ari mu isoko.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye yaba abagore abana ndetse n'abagabo, hari n'ibyo kurya byinshi nk'uko bigaragara inyanya intoryi imiteja na karoti bisa nk'aho ari mu isoko.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, ahari n'imyenda myinshi cyane, ku buryo bigaragara, bisa nkaho ari mu isoko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bamwe barahagaze abandi baricaye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari ibiribwa bitandukanye nk'inyanya, ibitunguru n'intoryi.

Aha ni ahantu hari abantu benshi bamwe barahagaze abandi baricaye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo; urabonako ari ibintu byiza cyane, kandi hari n'imyenda imanitse bisa nk'aho ari aho igurishirizwa, ari mu isoko.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Hari n'ibicuruzwa binogeye ijisho nk'ibitunguru, inyanya, ibishyimbo n'amashaza bisa nk'aho ari mu isoko.

Aha ni ahantu hari inzu nini isakaje amabati y'ubururu n'imbere harimo abantu benshi cyane yaba abagore ndetse n'abagabo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'inyanya ingagi amashu n'ibindi byo kurya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bari mu bikorwa bigiye bitandukanye bamwe bari ku murongo higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze arishimye cyane ari gukora mu biribwa bigiye bitandukanye nk'amaronji, inanasi, pome, imyembe n'ibindi urabona ko ari ibintu byiza cyane bisa nkaho ari mu isoko.

Ibi n'ibyorya bigiye bitandukanye bifasha mu kunganira umubiri kugira imbaraga, n'amashaza, ubufu bwa kawunga, imineke, ibishyimbo n'inyanya n'ibintu bibereye ijisho kubireba.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara agiye atandukanye, hariho n'ibishushanyo byinshi, ifite ibirahure bibonerana, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bahagaze ahantu hamwe urabona ko bari guseka bafite ibyishimo bambaye impuzankano z'umuhondo wa emutiyeni higanjemo umugore ndetse n'umugabo.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho nk'imyenda, amasakoshi n'ibindi, mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kurya kikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri kandi bwizewe unihuse.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ahetse igikapu kinini ndetse kuri moto ari kugenda, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga n'amahumbezi ku banyurangaho bose.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza yaba imyambaro n'ibindi bikoresho bikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza gikunyuze kikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri cyangwa gukora ingendo utateguye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasiye aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza cyo kurya kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri no gukora ingendo zimwe na zimwe utateguye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza yaba ibyo kurya bikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru n'urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse no murandasi aho ushobora gutumizaho kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri cyangwa gukora ingendo utateguye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumiza burii kimwe cyose wiguza kurya bakakikugezaho mu buryo bworonshye nk'ibirayi n'ibitoki ndetse n'imineke.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza yaba ibyo kurya imyambaro n'ibindi bikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabunga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza, kikakugeraho mu buryo ushaka kandi bwihuse, bworoshe utarinze kuva aho uri.

Ubu ni ubusitani bwiza, butoshye bw'icyatsi. Urabona ko bukeye cyane, hahagazemo abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo, hirya yabo hari igiti kirekire, gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini igizwe n'ibikoresho byinshi byo mu gikoni: nk'amafirigo n'ibindi, isize amabara y'umweru, impande zose hari intebe y'umufariso w'icyatsi.

Aya ni amazu maremare yo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije, hasize amabara y'umutuku impande zose, hirya gato hari ubusitani bwiza, butoshye, bw'icyatsi, bufasha gutanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza ubona butoshye bukiri bushyashya, burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'icyatsi ndetse n'iz'umuhondo, hirya gato ari igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'inzu yo mu bwoko bwa etaje.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo kabiri, isize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini isize amabara agiye atandukanye yaba iry'umweru, iry'umuhondo ndetse n'iry'umutuku bisa nkaho ikodeshwa. Imbere yayo hari ubusitani n'imbuga bigari.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara agiye atandukanye umweru, ubururu bwijimye ndetse n'ibirahure by'umukara imbere yayo hahagaze umugabo wambaye imyenda ya kacyi.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru irimo imitako igiye itandukanye n'amatara yaka mu buryo bw'umuhondo, hasi yayo hari intebe z'imifariso ndetse n'imeza ikoze mu mbaho za ribuyu, iherereye Kimironko i Kigali.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bagiye batandukanye, mu nzu ifite amabara y'umweru isa nk'aho ari mu isoko cyangwa aho bahahira kubera ibikoresho bihari byiganjemo abagore n'abagabo.

Iyi ni inzu nini kandi ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umweru impande zose, hasi gato hari ibikoresho byinshi nk'imyenda n'ibindi bisa nk'aho ari mu isoko.

Aha ni ahantu huzuye ibikoresho byinshi igurishwa nk'imikandara, amasakoshi, inkweto z'abagabo ndetse n'iz'abagore, hari n'abantu bagiye batandukanye bakeya cyane bahari.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko hari kandi ibikoresho nk'amasakoshi, imikandara, urabona ko bisa nk'aho ari aho bigurishirizwa.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu ubona bicaye ahantu hamwe barishimye cyane bari guseka, barakeye, basa nk'abakuze ubarebye ku maso yabo, kubera ko higanjemo abagore batanu ndetse n'umugabo umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane mu buryo bugaragara, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bamwe baricaye abandi barahagaze bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bari guhabwa impapuro z'umweru, bari mu bwatsi bwiza burimo indabo hirya zigiye zitandukanye nk'iz'umuhondo ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye higanjemo abakuze cyane abagore ndetse n'abagabo inyuma yabo ari inzu isize amabara y'umuhondo urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ku ruhande gato hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, haragendamo kandi ibinyabiziga byinshi by'imodoka ndetse na moto, hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umukobwa ubona asa nkaho akiri urubyiruko kubera imyambarire ye ,haricyo afite muntoki ahagaze imbere y'ibiribwa bigiye bitandukanye nk'amashu, ibitunguru, dodo n'inyanya na karoti. Urabona ko hari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane basa nk'abakuze higanjemo abagore ndetse n'abagabo aho bari huzuye ibikoresho n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu nini kandi nziza igizwe n'amabara y'umweru; irimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya, amavuta n'ibindi byinshi bisa nk'aho ari mu isoko.

Iyi ni inzu nini yuzuyemo abantu benshi ishinzwe amabara y'umweru arimo ibikoresho bigiye bitandukanye bisa nkaho ari mu isoko nk'amadarubindi, amashuka, amavalisi huzuyemo abagabo gusa.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nka za murandasi ndetse n'ibyo kurya. Babiri muri bo bambaye impuzankano y'umuhondo, higanjemo abagabo ndetse n'umukobwa umwe.